Turi mu cyumba gisa neza gifite amabara y'umweru, gisukuye rwose, mu rugo rw'abashakanye bari mu zabukuru. Bambaye imyenda itukura, umugabo yambaye amataratara. Ku meza yabo hariho ibintu bitandukanye ari byo amataratara, imiti, bari gufashanya kwitanaho, bafata imiti neza.